Aho bacururizamo, haragaragara akabati karimo amatelefone ndetse n'umutaka utuma zitanyagirwa, hejuru hagaragara itara n'icyapa cya kampani igaragaza amashusho, ni inyubako ifite irangi ry'umweru.

Umunyonzi wambaye igisurubeti gifite ibara ry'icyatsi, afite igare yahambiriyeho umufuka, umucuruzi yicaye munsi y'umutaka ari gutanga serivisi kubakiriya bamugana.

Sosiyete y'itumanaho mu Rwanda, bambaye udupira twiza tw'umuhondo, bari gufasha umukiriya waguze igikoresho cy'ikoranabuhanga kugira ngo bamwereke uburyo bwiza bwo kuyikoresha, kitangiritse kikamugirira umumaro.

Abakozi batanga ubufasha mu by'itumanaho bicaye ku ntebe munsi y'umutaka haparitse imodoka zo mu bwoko butandukanye ndetse na moto.

Mu muhanda abagenzi bamwe bari kugenda, haparitse imodoka, hari abaguzi bari kugura serivisi zitumanaho mu kazu gato kabugenewe gukorerwamo ubu bucuruzi ndetse abandi bahagaze munsi y'ibiti.

Ikigo cy'imari gishinzwe kubika amafaranga y'abaturage ndetse no kubaguriza, gishakakaje amategura y'umutuku, hanze hari udutebe abaturage bategereje serivisi bicaraho kugira babone kwinjira mu nzu bahabwe serivisi bashaka.

Ku kazu gatoya karimo umukozi ufasha abaturage kubona serivisi za banki, hari abaturage babiri barimo uwambaye isengeri y'umutuku n'uwambaye umupira w'umukara, bari gusaba serivisi umukozi wa banki kugira ngo abafashe babitse cyangwa babikuze.

Umuyobozi ukuriye amashyirahamwe agurizanya akanabitsa amafaranga kugira ngo biteze imbere, afite uvugiro ahagaze imbere y'abaturage abagezaho ijambo yabateguriye ku munsi wagenwe.

Ubuhunikiro bifashisha bahunika ibigori, bwubakishije amabati ateye irangi ry'umutuku, ibigori bigiye bisharitse ku biti bigiye bitambitse mu buhunikiro, iruhande rw'ubuhunikiro hari igare ndetse n'ikigega gifata amazi.

Umuyobozi wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru n'inkweto z'umukara ahagaze imbere yabaturage ari kubabwira ijambo yabateguriye, abaturage barimo abagabo, abadamu ndetse n'abana bato bateze amatwi ibyo ababwira.

Abakozi bo mu kigo cy'imari bari mu nama bicaye mu gishararagati cyubakishije ibitambaro by'umweru ndetse n'ubururu, bamwe bari kugendagenda abandi bicaye bateze amatwi.

Inzu yubakishije ibyuma by'amabati, bifite amarangi y'ubururu biriho n'imireko ndetse ku ruhande hakikijwe n'ibiti, inyuma y'inyubako hari ibyatsi, ku ruhande bahashyize amatafari abagenzi bagenderaho.

Umurima w'inanasi, urimo inanasi zihishije n'izindi zitarera, zitarahisha ndetse zihinze mu murima ubagaye, ibibabi by'inanasi biracyari bishyashya ntabwo byari ibyuma.

Abahinzi b'ibigori bari mu mbuga, aho basutse ibigori, bari kugenda babyanika, babivungura kugira ngo babone impeke zabyo, barimo abagabo, abagore, bateze ibitambaro ndetse n'abagabo bambaye ingofero.

Mu murima w'amasaka amwe yeze andi atarera hahagazemo abantu benshi batandukanye harimo abagabo n'abagore, abagore biteze ibitambaro n'aho abagabo biteze ingofero.

Abahinzi b'umuceri bari mu gishanga, usarura umuceri weze. Barimo abagabo n'abagore bafite najoro, bagenda baca umuceri weze bawegeranya kugira ngo babone uko bawutwara mu mifuka bazanye.

Abayobozi barimo abagabo n'abagore bambaye amakote ay'umukara, ay'umweru ndetse na za karuvate bahagaze munsi y'inyubako irimo amatara y'icyatsi bari gufata ifoto y'urwibutso.

Imbuga nini iriho inyubako ,ndetse n'ibiti bitandukanye, pasiparumu, ndetse n'umuhanda abanyeshuri bize kudoda bari guhabwa icyarahani ,kibafasha mu budozi bwabo bwa buri munsi

Ubwoko bwinshi butandukanye bw'inzoga buri mu macupa yabwo, ku macupa hariho ibyapa biranga izo nzoga ndetse n'amagambo asobanura uko zikoreshwa ndetse n'ibizirimo.

Igare ripakiyeho amakanziye y'imboga z'ubwoko butandukanye ryegeretse ku giti iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo hafi y'akayira kanyurwamo n'abagenzi, iruhande rw'inyubako zigezweho.

Mu kabari banyweramo inzoga harimo akabati karimo inzoga z'ubwoko butandukanye, harimo izitwa Nguvu, Primusi ndetse hari na televiziyo icometseho umugozi ariko ntiyaka.

Ibirungo bifashisha bateka bikozwe mu nyanya, bifunze mu mashashi y'umutuku, biri mu gikarito babizanamo bivuye ku ruganda kugira ngo bitangirika, bigere kuba bikoresha bikiriri bizima.

Amavuta bisiga ari mu icupa, hagaragara icyapa kiri ku icupa, kiriho ibirango by'uruganda, ndetse n'amazina y'amavuta n'ibiyakoze, kugira ngo uyagura ayizere.

Umukiriya ari gushyikira igicuruzwa aguze n'umucuruzi mu iduka ririmo ibintu byinshi bitandukanye, birimo ibiribwa ndetse n'ibitaribwa, byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inzu bacururizamo harimo indorerwamo, amakaramu, ndetse n'umuti wifashishwa mu koza amenyo, kugira ngo umuntu agire impumuro nziza mu kanwa. Ibyo byose bitunze ku mugozi kugira ngo bidahirima.

Inzu bacururizamo umucuruzi ari kubara amafaranga, inyuma ye hari ibicuruzwa bitandukanye harimo iyo barya ndetse n'ibindi bakoresha mu buzima bwa buri munsi.

Mu nzu icururizwamo harimo amagi y'ubwoko butandukanye, karoti, intoryi ndetse n'indobo irimo amandazi, hari udukombe turimo shikarete, bombo ndetse na ji zo kunywa.

Umusaserodoti wicaye ku ntebe, wambaye amarinete ndetse n'ikanzu yabugenewe yifashisha mu gutamba igitambo cy'ikarisitiya, inyuma ye hatatse ibintu bitandukanye harimo n'umusaraba, ndetse n'imitako y'umweru ndetse n'umukara.

Abagabo, abasore ndetse n'abadamu bicaye mu gisharagati gitatse n'ibitambaro by'amabara atandukanye birimo iby'umutuku, umweru, icyatsi. Bicaye bateze amatwi uri kubagezaho ijambo ndetse hari n'intebe iticayemo umuntu.

Imbere y'urusengero basengeramo abakirisitu bahagaze bafata ifoto y'urwibutso harimo: abana bato, abagabo, abasore ndetse n'inkumi, urusengero ruriho umusaraba.

Urusengero rwubakishije amatafari ahiye rufite inzugi z'ibyuma zifite irange ry'icyatsi, hanze hari umumama ukenyeye imikenyero iruhande rw'urusengero hateye indabo.

Abasore n'inkumi babyina imbyino gakondo bicaye mu nama bategereje ko babaha umwanya wo kubyina, bambaye impuzankano zirimo iz'icyatsi, umweru ndetse n'umukara.

Abisiramu barimo abadamu n'abagabo, bari mu musigiti bari kumva icyo umuyobozi wabo ababwira, kirimo inyigisho za bibiliya yabo yitwa korowani ndetse ahagaze abareba mu maso.

Abakirisitu basohotse mu rusengero, ku cyumweru bavuye gusenga, bari hanze mu mbuga y'urusengero, hari ibiti birebire bifite amababi, hari imodoka iparitse ku mbuga y'urusengero kandi hari n'urusengero rwubakishije amabati atukura ndetse.

Inama y'abaturage harimo abaturage bazamuye udutoki kugira ngo babaze ikibazo. Harimo aba mama ababyeyi ndetse n'abagabo n'abasore. Bicaye mu nyubako irimo amatara ari kwaka ndetse n'amadirishya ari kuruhande.

Abakirisitu biganjemo abadamu, abagabo, abagore n'abana bato bari imbere mu kiliziya bari gusenga bategereje y'uko padiri atangiza igitambo cy'ukaristiya bifashe neza baratuje bambaye imyambaro itandukanye barahagaze.

Aho basengera abakirisitu barahagaze, imbere yabo hari abashinzwe gutanga ukarisitiya, bambaye amakanzu y'umweru, ni inyubako irimo imitako iriho imisaraba, ndetse inyubako igiye iriho n'ibyuma bifashe amabati.

Inzu ndende igeretse gatatu ifite amarange y'umweru n'amadirishya manini, hejuru ishakakaje amabati y'umutuku, hejuru yayo hariho imirasire itanga umuriro w'amashanyarazi hariho n'ibyuma bitanga umwuka mwiza mu nzu.

Mu cyumba baryamamo harimo igitanda kiriho matela, ibiringiti ndetse n'imisego, harimo kandi amarido abuza urumuri kwinjira mu cyumba mu gihe ari ku manywa cyangwa se hari ikindi kintu kimuritse mu nzu.

Mu cyumba bararamo harimo igitanda kiriho matera, uburingiti, imusego ndetse n'ibyo biyorosa, hari icupa ry'amazi riteretse ku meza, mu birahure by'icyumba bararamo harimo amarido abuza urumuri kwinjira.

Mu cyumba cyiza kirimo amalrido y'umweru ndetse n'igitanda gisashe kiriho amashuka ndetse n'ibiringiti, iruhande rwacyo hari ameza arambitseho ibikoresho bitandukanye birimo mudasobwa ndetse n'ibindi.

Inyubako igereretse gatatu ikikijwe n'ibyuma ku ruhande kugirango abayigendamo badahirima, hasi hari indabo ziri ku ruhande ndetse n'urugo na rwo ruri ho ibyuma, urugi rw'umukara ndetse n'urusinga hejuru rutwaye umuriro w'amashanyarazi.

Umusore n'umukobwa bose bambaye imyenda isa, bahagaze mu nzu bifashe neza kugira ngo babafotore, inyuma yabo hatatse imitako y'umweru n'umukara, inyuma yabo hari urugi rufunze.

Inyubako abakerarugendo bacumbikamo igeretse inshuro eshatu, ifite amadirishya yagutse arimo ibyuma, hari aho bogera ndetse n'ubusitani bufasha kuzana umwuka mwiza.

Mu cyumba kiza cyo kuruhukiramo harimo igitanda kiriho matela n'imisego, uburingiti ndetse n'ibyo kwiyorosa, gifite amarido meza, harimo akabati, harimo intebe zo kwicaraho mu gihe umuntu yabonye umushyitsi.

Bushashe neza buri mu cyumba kirimo amarido n'amatara yaka, ku musego hari igitanda kizamuye giteze kugira ngo umuntu ukiryamyeho adateberamo kandi asinzire neza nta nkomyi.

Hafi y'aho bogera hari intebe bicaraho nyuma yo koga, iruhande rw'aho bogera hari ibiti birebire bifite amashami kugira ngo bizane umwuka mwiza, inyuma y'aho bogera hari aho bicara hasakaye kugira ngo batanyagirwa.

Inyubako abantu bararamo iyo batembereye cyangwa se bagize urugendo rurerure, ku muryango harakinze inyubako ishakaje amabati y'umukara, hanze hateye indabyo zituma haza umwuka mwiza.

Icyumba baryamamo, harimo igitanda, matera, amashuka ndetse n'uburingiti bifashisha biyorosa, harimo imisego bisegura, inzu yubakishije amatafari ahiye, harimo supanete irinda imibu.

Ku meza hari amasahane ariho ibiryo bitandukanye harimo ifiriti, inyama, ibyo kunywa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa ku meza harimo amafoke, ibihiko ndetse n'ibikombe binywebwamo ibyo kunywa.

icyumba baryamamo harimo igitanda kiriho matela, hariho imisego, ibiringiti biyorosa ndetse n'amashuka haka amatara abonesha ndetse n'amarido abuza urumuri kwinjira mu nzu.

Imboga nyinshi zitandukanye harimo karoti, intoryi ndetse n'izindi zipfundikiye ziri gutegurwa, kugira ngo zitekwe. Umutetsi ari kwegeranya ibintu bitandukanye harimo ibyo kurongesha, amazi, ndetse n'icyuma cyo gukata imboga kugira ngo azitunganye aziteke.

Mu nzu bacururizamo imyenda harimo imyenda y'ubwoko butandukanye, harimo ifite amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku, abadozi bari kudoda imyenda y'abakiriya ,abandi bicaye bategereje abakiriya.

Mu isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye harimo imyenda ndetse n'ibyo kurya, haparitse moto iriho ingofero, hirya yayo hari igare ririho umufuka uhambiriyeho, hirya yaho hari abaturage ndetse n'amahema abacuruzi bacururizamo.

Imbere y'isoko aho bacururiza ibitunguru, ababyeyi bacuruza ibitunguru bicaye hasi bari kubitotora, babiri baricaye, abandi babiri barahagaze, hirya yaho hagaragara abaturage bari munsi y'inyubako.

Aho badodera imyenda, hari ibitenge ndetse n'indi myenda itandukanye. Hari imashini bifashisha mu kudoda imyenda, abadozi bamwe bicaye ku mashini badoda, abandi bari gupima ibyo badoda.

Imifuka ibiri umwe urimo umunyu w'udukombe bapimiramo uwo baha umukiriya, n'ubunyobwa ndetse n'amavuta, n'abantu ku ruhande bagendagenda barimo abakiriya b'abagabo n'abagore.

Iruhande rw'isoko haparitse abatwara moto bategereje abagenzi, abaturage baje mu isoko bari kugenda mu muhanda bafite ibyo bazanye mu isoko, abandi batwaye ibyo bamaze guhaha, hejuru yabo hari igiti kinini ndetse hari kunyura insinga z'amashanyarazi.

Isoko baguriramo ibiribwa, abaturage bari kugenda bareba ibyo bashaka guhaha, bamwe bashyize ibiribwa byabo hasi ku mifuka, harimo amashu ndetse n'inyanya, hari inyubako zitandukanye, zirimo izifite amarangi y'umweru n'izindi zifite amarangi y'umutuku.

Banyweramo icyayi amatara ari kwaka hatatse indabo hari intebe ziriho utuntu bicaraho, ndetse hari ameza banyweraho icyo kunywa ateretseho ibikombe bifashisha banywa icyayi.

Mu ruganiriro hari intebe ziriho imifariso, ameza baterekaho ibintu, amarido afasha kurinda ko urumuri rwinjira mu nzu, cyangwa uri hanze atareba mu nzu, hanze hari ibiti bifite amababi.

Inyubako ndende bakiriramo abakerarugendo, munsi yayo hari ibiti bifite amashami, haragaragara ikirere kirimo ibicu ndetse gikeye.

Umuhanda w'igitaka wuzuyemo amazi, abatwara moto bari kugenda bazamura amaguru kugira ngo ibyondo bitabatarukira, barimo abatwaye abagenzi ndetse n'abandi badatwaye abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uturongo tw'umuhondo dutandukanya aho ibinyabiziga binyura, harimo moto itwaye abagabo babiri bambaye ingofero y'umweru n'iy'ubururu, bari kugenda iruhande rwabo hari ibiti bigufi bitari birebire.

Umunyonzi atwaye igare ririho ibicuruzwa birimo umuceri n'ibikarito by'isabune, hakurya mu muhanda hari umukobwa ufite imisatsi miremire, uri kumanuka iruhande rw'umuhanda mu kayira kagenewe abagenzi.

Umumotari atwaye moto, yambaye ingofero imufasha kwirinda yahuye n nimpanuka, inyuma ye hagaze umwana uri kureba mu muhanda, uhagaze iruhande rw'indabo ndetse n'inzu.

Umunyonzi utwaye igare, atwayeho abagabo babiri, bambaye udupfukamunwa, bafite umufuka urimo ibyo bavuye kugura, iruhande hari insina ziteye iruhande rw'indabo.

Mu muhanda umugenzi ari kwishyura umu motari yari ateze, hari abandi ba motari bagenzi be ndetse n'abagenzi mu muhanda, iruhande rw'inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse n'abandi bagenzi bari kugenda mu muhanda, bagenda bajya gushaka ibinyabiziga.

Umu motari utwaye umugenzi, bambaye ingofero z'umutuku zibarinda kuba bakomereka igihe baguye bari mu muhanda wa kaburimbo. Bamutwaye kuri moto, iruhande rw'akayira, abagenzi bambukiramo mu muhanda ndetse n'umunyonzi uri inyuma yabo uri gushaka kurira igare.

Umu motari atwaye umugenzi. Bambaye ingofero z'umutuku n'umukara. Bari mu muhanda wa kaburimbo. Iruhande rwaho hari insinga z'amashanyarazi ziri ku mapironi kandi hari inyubako ziri mwishyamba zitandukanye zigaragara ko hari ibizikorerwamo.

Uhanda wa kaburimbo, harimo abagenzi bari kugenda ku ruhande bikoreye ibintu, hari umuyonzi utwaye igare ririho amajerekani.

Abanyonzi batwara abagenzi ku magare bambaye amasengeri aranga amatsinda bakoreramo mu muhanda, iruhande rwabo hari amashyamba harimo ibiti birebire, ndetse n'imisozi miremire nk'uko bigaragara.

Mu muhanda umumotari atwaye umugenzi bambaye ingofero y'ubururu n'iy'icyatsi, bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande hari imodoka ziparitse ziri munsi y'inyubako zicururizwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Imbere y'inyubako, umumotari aparitse moto, yambaye ingofero yabugenewe imufasha kwirinda impanuka, inyubako iteye irangi ry'umweru ndetse ifite n'inzugi ziriho ibyuma.

Umumotari utwaye moto ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo kuri moto yahambiyeho umufuka arenze imirongo y'umweru n'umukara abagenzi bambukiramo, inyuma ye hari abagenzi bari ku igare ndetse n'undi uri kugenda mu kayira kagenewe abanyamaguru.